Ibikinisho, imyicungo ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mashuri y'inshuke. Ibi bifasha abana kwishimisha ndetse bakanakina na bagenzi babo, bagasabana.

Ibi bishushanyo biragaragaza umwana uri gukina n'ingamiya, ifarashi, intare, inzovu ndetse n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba bikaba bibafasha no mu myigire yabo ya buri munsi.

Bimwe mu bikinisho cyangwa se ibipupe ni bimwe mu byifashishwa mu kurera abana b'inshuke mu mashuri. Ibi ngibi bifasha abana kwishima ndetse no gukurikira.

Abarezi bashinzwe kwita ku bana biga mu bigo by'incuke, barigisha abana uko biga kwicunga. Ibi bifasha abana kwishimisha ndetse no gusabana n'abandi.

Ibyicungo ni bimwe mu bikoresho bisangwa mu bigo by'amashuri y'inshuke. Ibi bifasha abana kwidagadura, kwishima gusabana n'abandi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibishushanyo ni bimwe mu bigaragara ku mashuri y'inshuke kuko bifasha abo bana bakiri batoya kwiga. Ikindi kandi bibafasha gutekereza cyane kujijuka n'ibindi.

Ibipupe ndetse n'ibikapu biriho udushushanyo, ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke. Abana bakunda ibishushanyo niyo mpamvu ibikoresho byabo bashyiraho udupupe ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo bigaragaza abana b'abakobwa bahagarariwe n'umugabo, n'abana b'abahungu bahagarariwe n'umugore, ni bimwe mu bishushanyo byifashishwa mu gutanga uburezi ndetse n'amasomo ku bana b'inshuke.

Igishushanyo kigaragara mu ishusho y'inyamaswa iba mu ishyamba iri mu bwoko bw'amahuku manini, ni kimwe mu bishushanyo bikenerwa ndetse bikanigirwaho n'abana bo mu nshuke. Aba bana ibi bishushanyo bibafasha gutekereza cyane ndetse bakiga banabikunze.

Ishuri ry'inshuke rya kijyambere riherereye mu ntara y'iburarasirazuba mu Karere ka Nyagatare, ni rimwe mu mashuri atanga uburezi bwiza ku bana b'inshuke.

Udukarito ndetse n'utundi dushushanyo turi mu mabara atandukanye ,twifashishwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke igihe barimo kwiga. Ibingibi bituma abana biga bishimye kandi bagakurikira neza.

Ibikoresho bitandukanye harimo amakaramu y'ibiti, amabara nk'umuhondo, ubururu, icyatsi ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri y'incuke.

Ibishushanyo ni bimwe mu bifasha abanyeshuri b'abana biga mu mashuri y'inshuke mu burezi ndetse no mu myigire yabo, byifashishwa basoma ndetse n'ibindi bitandukanye nko kufindura ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo birimo ingona byifashishwa mu mashuri y'ishuke mu gutanga uburezi bufite ireme, aho ibyo bishushanyo bikoreshwa abanyeshuri biga ibintu bitandukanye nko gusoma ndetse no kwandika, kumenya inyamaswa iziba mu ishyamba mu mazi n'ahandi hagiye hatandukanye nko mu ngo.

Ibishushanyo ndetse n'ibipupe ni bimwe mu bifasha mu burezi bw'amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, ibi bifasha abana kwiga bashyizeho umwete kandi bishimye.

Ishuri rya nowa ryigisha inshuke, hari byinshi cyane rigiyeri rifasha abanyeshuri, harimo nko gukora ibiryo, ibinyobwa mu ubukerarugendo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibishushanyo cyangwa amashusho ni bimwe mu bikoresho byifashishwa hatangwa uburezi ku mashuri y'inshuke, abana bakoresha ibi bishushanyo mu kwiga gushishoza, gutekereza, kwandika ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibishushanyo biri mu mabara ashushanya utunyamaswa tugiye dutandukanye nk'imbwa, amapusi, bishyirwa ku dukapu tw'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kugira ngo aba bana bishimire utwo dukoresho.

Ibikoresho by'ubuhinzi, umuhoro, igitiyo, isuka, ndetse umwiko n'ingorofani.

Amabara nk'umutuku, umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse na oranje ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke dore ko bakunda utuntu tw'udushushanyo.

Amajwi yanditse ni kimwe mu bifasha abacuranzi ndetse n'abaririmbyi b'umuziki gukora akazi kabo neza. Indirimbo nkunda gusiga irangi, nayo yanditse mu buryo bw'amajwi.

Ikigo cy'ishuri cy'abana b'incuke, cyasuwe n'abayobozi batandukanye. Abasirikare, umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge, ndetse na DASSO wo ku rwego rw'umurenge.

Ibishushanyo ndetse n'andi mashusho ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwigisha abana bari mu mashuri y'incuke, ibi ngibi bifasha aba bana kujijuka, gushishoza ndetse no kwiga bishimye.

Ibishushanyo byiganjemo urutoki, intama, ihene ni bimwe mu byifashishwa mu burezi bw'amashuri abanza, ibi bifasha abana gusobanukirwa ibyo barimo kwiga neza.

Ikigo cy'icyitegererezo cy'amashuri abanza cyubatse neza kandi kiyobowe neza kiba kigomba gutanga uburezi bufite ireme, abahiga baratsinda kandi cyane.

Umuyobozi ushinzwe uburezi mu gihugu ndetse n'umuyobozi w'ikigo k'ishuri n'umwarimu wo ku kigo cy'ishuri, barashyikiriza umuyobozi w'ishuri mudasobwa abana bagiye kujya bigiraho.

Ibigo by'amashuri abanza, ni bimwe mu bigo leta yashyizemo imbaraga mu kongera ibyumba. Ubu nta bucucike bukiboneka mu mashuri kuko leta yubatse ibyumba byinshi cyane kandi bihagije, mu rwego rwo kwirinda akabavuyo n'ubucucike.

Ibikoresho bitandukanye nk'amarate maremare ndetse n'amagufi, amakaramu y'ibiti na za kompa, byifashishwa mu isomo ry'imibare, ahabwa abana bo mu mashuri abanza.

Kimwe mu biranga abarimu beza ni ukubaza abanyeshuri kandi bagasubiza bose, abanyeshuri bo mu mashuri abanza mwarimu ashyira ibibazo imbere buri umwe agatera ukuboko akagenda asubiza mwarimu nawe agakosora.

Ibitabo by'icyongereza ndetse n'ibitabo by'ikinyarwanda nk'igitabo akajangwe buroho ni ibitabo byifashishwa mu mashuri abanza, ibi bitabo byifashishwa mu kugira ngo uburezi ndetse no gusoma byiyongere ku bana biga mu mashuri abanza.

Ibishushanyo ni kimwe mu mfashanyigisho zifasha abarimu n'abandi barezi mu gutanga uburezi mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ay'incuke.

Uburezi bw'ibanze ni bumwe mu burezi buhabwa abanyeshuri, baba bakuru cyangwa se abatoya, ibi bifasha abahawe ubu burezi kwihugura mu gusoma, kwandika ndetse no gusoma.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, ni ibi bitandukanye, amarate, imigoma, buwate matematikale mu rwego rw'indimi z'amahanga ndetse n'ibindi.

Ezami rezati mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ibisubizo cyangwa se ibyavuye mu bizami, amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye nyuma yo gukora ibizami babahereza ibyavuye mu bizami.

Inziga cyangwa se seti mu ndimi z'amahanga ni bimwe mu byifashishwa mu kwiga imibare ku banyeshuri biga mu mashuri abanza.

Ibishushanyo biri bimwe mu bifasha abanyeshuri bo mu mashuri abanza kwiga. Bishobora gukoreshwa higwa nk'amabara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kubaka ibyumba byinshi kandi bigezweho by'amashuri ni kimwe mu byo Leta yashyizemo imbaraga, ibi bituma hirindwa ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri.

Ibikoresho byiganjemo, amarate, amakaramu za kompa, amakaramu y'ibiti ndetse n'andi makaramu agiye atandukanye, biri bimwe mu bikoresho, byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye ni bimwe mu byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kwiga. Abanyeshuri basabwa kwitwara neza bagasigasira ibishushanyo.

Bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakenera mu isomo ry'imibare, harimo amararati, amaremare ndetse n'amagufi, gome cyangwa se agahanaguzo, ibiti by'amakaramu, kompa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya byegerejwe hamwe, harimo amarati, amakaramu y'ibiti, ndetse n'ibindi.

Amarate, kompa, amakaramu y'ibiti, udusongozo, gome ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwiga ku bana biga amasomo ajyanye n'imibare.

Ibikoresho bikoreshwa, byigirwaho, harimo, irati, kompa nk'amarati y'uruziga ndetse n'ikaramu.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Karere ka Nyagatare aho ni mu gihugu cy'u Rwanda, bashyiraho ingengabihe y'icyumweru y'uko abanyeshuri bagomba kwitabira ishuri, ndetse n'ibikorwa bakora mu gihe kingana n'icyo cyumweru cyose.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, NESA, cyongereye ubugeni n'umuco mu masomo abana biga mu mashuri, abanza bagomba kwiga.

Ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwaga kera mu mirimo itandukanye ya buri munsi ubu ngubu muri iki gihe ntibikiboneka, ibyo twavugamo nk'amashoka, utuyuyuso ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho byo mu rugo, harimo nanjoro, harimo ibitebo, ibitaro, ipiki, rasoro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, dukoresha mu rugo, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amashuri abanza aba agomba gukoresha amabara cyangwa ibindi bishushanyo mu gutanga uburezi, amabara y'umutuku, ay'umweru, ay'icyatsi ndetse n'andi mabara yose ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza mu gutanga uburezi ku banyeshuri.

Ikigo nderabuzima cya Musanze ni kimwe mu bigo nderabuzima mu Rwanda bitanga serivisi nziza, abakigana bavuga yuko iki kigo nderabuzima gitanga serivisi zitandukanye harimo serivisi zo gufasha abarwayi b'indwara izo arizo zose.

Imibare nka rimwe mu isomo ritangwa mu mashuri abanza, abanyeshuri bagiye kwiga iryo somo, hari ibikoresho bitandukanye basabwa, harimo amakaramu y'ibiti, amarate, Carculatrice mu ndimi z'amahanga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Amashusho ndetse n'ibishushanyo ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutanga uburezi n'inyigisho ku bana biga mu mashuri abanza, ibi bifasha abanyeshuri gukurikira ndetse bakanafata vuba ari nako batekereza cyane.

Ibiziga cyangwa se seti mu ndimi z'amahanga, ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwigisha imibare mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ibimenyetso, amabara ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza. Ibi bibafasha kujijuka, gushishoza ndetse no gutekereza vuba.

Ibishushanyo mu mashuri abanza, ni kimwe mu mfashanyigisho abanyeshuri bakunda gukoresha biga.

Ibishushanyo, udukuru, ni bimwe mu bikoreshwa mu mashuri abanza kugira ngo abana bige neza, ibi bibafasha gutekereza vuba, gushishoza kandi no kumenya ubwenge byihuse cyane.

Akabogisi cyangwa se buwate matematikare mu ndimi z'amahanga kabamo ibikoresho bitandukanye n'amakaramu y'ibiti amarate yifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Mu bigo by'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza, ni hamwe mu hashyizwe ubukarabiro kugira ngo hirindwe imyanda ndetse n'indwara zandurira mu gusuhuzanya. Ibi bifasha abanyeshuri kwirinda indwara ndetse no kugira isuku.

Udukapu turiho ibishushanyo cyangwa se amasura y'utunyamaswa dutandukanye, ni tumwe mu dukapu abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, bakunda kugurirwa kuko bakunda utu dushushanya.

Ibikoresho dushobora kubona mu rugo cyangwa se n'ahandi hatandukanye harimo: umuneke, ingofero, avoka, inkweto zo kwambara, isahani, ijipo, ururabo, radiyo ndetse n'ipantaro.

Uburezi butangwa mu mashuri abanza abarimu bifashisha ibishushanyo mu kubaza abana, nk'urugero igishushanyo cy'isuka, icyuma, igikombe, umunyeshuri akavuga umumaro wacyo, amazina yacyo n'ibindi.

Amwe mu mashuri yisumbuye aracyafite ikibazo k'intebe zidahagije, Leta icyo iri kubikoraho iri gushaka uburyo buri kigo cyose cyajya kigira intebe nziza kandi zihagije buri munyeshuri akiga yicaye neza.

Itangira ry'amashuri, ryageze. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barasabwa kugerera ku gihe ku ishuri bigaho kuko amasomo azahita atangira. Bamwe mu banyeshuri bageze ku ishuri ku itariki ibanziriza iyo bazatangiriraho.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bambaye imyenda isa, barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Abahungu, abakobwa bose bari mu bitabiriye iyo myitozo ngororamubiri.

Abanyeshuri ndetse n'abayobozi nyuma yo gushyikirizwa mudasobwa zigenewe kwigirwaho ndetse no gukoreshwa mu kwigisha barimo barazikoresha ibyo zagenewe aho bifatiye ifoto kugira ngo rwose bagaragaze ko mudasobwa bazibonye kandi bazikoresha neza ibyo zigomba gukora.

Umuyobozi w'ishuri rikuru ryisumbuye aganiriza umunyeshuri ku myitwarire ye. Umunyeshuri amubwira ko nyuma yo kumuganiriza imico ndetse n'ingeso mbi agiye kubireka akaba umunyeshuri mwiza.

Ibigo by'amashuri yisumbuye, ni bimwe mu bigo bitanga uburezi bwiza kandi buboneye. Abanyeshuri baricaye bari gukora ibizami.

Ibigo by'amashuri yisumbuye ni muri bimwe mu bigu biba bigomba kugira ama laboratware. Abashinzwe ubwubatsi barasabwa gushyiramo ibikoresho bihagije, kugira ngo abanyeshuri bajye babyifashisha mu kwiga.

Padiri ndetse n'abandi banyeshuri, bafite indabo, bamuri inyuma yabo barapfukamye, baje kwibuka abazize Jenoside, inyuma yabo hari amazina y'abazize Jenoside.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bari mu ishuri aho bari gukurikira amasomo bari guhabwa na mwarimu wabo, bamwe barifubitse, abandi ntabwo bifubitse, bamwe bafite amakaye imbere yabo barimo barandika, abandi barakurikiye, ibyo mwarimu arimo arabigisha.

kIoranabuhanga ni kimwe mu byashyizwemo imbaraga na leta y'u Rwanda. Gukwirakwiza mudasobwa mu bigo by'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza ni imwe mu ntego yihaye.

Ibigo by'amashuri y'inshuke, ayisumbuye ndetse n'abanza, ni bimwe mu bigo bigomba kwitabwaho ku kijyanye n'isuku ndetse no gusanwa kugira ngo abana batazajya babihuriramo n'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwabo.

Umunyeshuri w'umukobwa ndetse n'uw'umuhungu bose bafashe kuri Bibiliya, barimo barasomera ijambo ry'Imana bagenzi babo ndetse n'abandi babateze amatwi, inyuma yabo hari abandi bana bari kwandika ibyo bize.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu myuga, barishima cyane nyuma yo guhabwa amasomo bakanaganirizwa n'umurezi wabo, bisanzura ku barezi ndetse n'abayobozi bose muri rusange.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Karangazi giherereye mu murenge wa Nyagatare Intara y'Iburasirazuba, ni kimwe mu bigo bitanga uburezi bwiza kandi bunoze kuri bose.

Mu rwego rwo kongera ubumenyi mu ikoranabuhanga, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gutanga mudasobwa ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza.

Abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye ndetse na ba rwiyemezamirimo bashinzwe kubaka aya mashuri ni bamwe mu bakoranye inama nyuma yo gusoza kubaka ibyumba by'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri yisumbuye basabwa kugira ubucuti hagati yabo, ibi bikabafasha gufashanya kwigisha umwe agasobanurira undi mu gihe hari icyo yumva kurusha mugenzi we.

Amashuri yisumbuye yigisha ibijyanye n'imyuga, yigisha abanyeshuri babo imirimo igiye itandukanye bitewe n'ibyo biga, abahungu, abakobwa, bose bemerewe kwiga muri aya mashuri.

Ibigo by'amashuri yisumbuye mu rwego rwo guteganya ko amazi ashobora kuba ikibazo biba bigomba kuba bifite ibigega bizabafasha kubika amazi, mu gihe amazi rusange azaba yagiye.

Umuyobozi mu kigo cy'amashuri kisumbuye aratanga inama ku banyeshuri, abanyeshuri nabo bicaye hasi baratega amatwi ndetse birinda no gusakuza kugira ngo bumve neza umuyobozi wabo.

Urubyiruko rushoje amashuri yisumbuye, bashimirwa n'abayobozi ndetse na polisi nyuma y'igikorwa cyo gusoza urugerero, muri urwo rugerero rero bubakiye abatishoboye, kubaka uturirimo tw'igikoni ndetse n'ibindi.

Abubatsi ushinzwe imari mu kigo cy'amashuri yisumbuye ndetse n'umuyobozi mukuru w'ishuri ryisumbuye basoje umurimo wo kubaka ishuri, abayobozi barishimye.

Abanyeshuri biga mu kigo gatolika bagiye gusenga aho itsinda ry'abahungu ndetse n'abakobwa barimo kuririmba mu kiliziya padiri ndetse n'abahereza bakaba babari imbere abandi baririmba.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kugeza ku banyeshuri mudasobwa mu rwego rwo kugira ngo biborohereze kwiga. Ibingibi bifasha abanyeshuri kwihugura ndetse n'ubumenyi butandukanye kuri mudasobwa.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bimwe mu bigo byigisha abanyeshuri imirimo itandukanye, kubyaza umusaruro ibisigazwa by'imbaho bakoramo ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibigo bya kaminuza ndetse n'amashuri makuru n'andi mashuri agiye atandukanye byashyize ubukarabiro ku muryango aho binjirira mu gihe cya kovide nayinitini, ibi byari ukwirinda koronavirusi.

Bamwe babyita ibibumbano, abandi babyita ibikoresho by'ubugeni, abandi babyita ibikoresho gakondo ni ibikoresho ibikorwa bibumbwe mu ibumba aho ushobora kubibikamo ibintu kubikoresha mu buzima butandukanye nko kubikoresha ubitekeramo, kubibikamo amazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza, abiga ibijyanye n'ubwubatsi, ni bamwe mu bashobora gukora ibintu bitandukanye. Gusiga amarangi, kubaka n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abayobozi b'amashuri makuru ndetse n'amashuri y'imyuga, bari mu nama. Umugore ndetse n'umugabo nibo bari gutanga inama babaha ibiganiro, abandi baricaye bateze amatwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza baba bagomba kwihangira imirimo, ibikoresho bitandukanye nk'amavaze bishobora gukorwa mu ibumba cyangwa se ibindi bisigazwa by'imbaho.

Inama yahuje abayobozi bakuru ba za kaminuza n'amashuri yisumbuye yaganiraga ku myigire ndetse n'imiyoborere ya kaminuza, bafashe imyanzuro ko abanyeshuri bagomba kujya biga kandi bagahabwa na mudasobwa.

Ibigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza biba bifite ubusitani bwiza abanyeshuri bashobora kwicaramo bakaruhukiramo mu gihe cyo kuruhuka, ibi bifasha abanyeshuri kuruhuka mu mutwe ndetse bakiga neza nta nkomyi.

Abiga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza biga ibijyanye n'ubugeni, bakunda gushushanya cyane cyane no gukora ibikoresho bibumbye mu ibumba. Aba banyeshuri bafitiye umumaro Igihugu kuko ibyo bikoresho bakora bizana ba mukerarugendo.

Ubucuti, ubumwe, ni bimwe mu bigomba kuranga abarimu b'amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Ibi bibafasha gukora akazi kabo neza kandi bagafashanya no muri byose.

Abayobozi b'amashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bamwe mu bateraniye mu nama yiga ku burezi buhabwa abanyeshuri biga muri ayo mashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Ibyumba by'amashuri ya kaminuza ndetse n'amashuri makuru, bigenda bihabwa nimero kugira ngo byorohere abarimu ndetse n'abanyeshuri kumenya aho bari bwigire cyangwa se aho bari bwigishirize.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza yigisha abanyeshuri ibintu bitandukanye, hari gukora ibishushanyo mbonera by'inyubako ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora guteza umunyeshuri imbere.

Abanyeshuri bo muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru bigisha iby'imyuga no gushushanya, bavuga yuko ibi bibagirira umumaro. Ibishushanyo byabo bashobora kubigurisha bagakuramo amafaranga, kandi bigakurura na ba mukerarugendo.

Abakozi ba Minisiteri y'ubuzima ,bagiye mu kigo cy'amashuri yisumbuye, bakangurira abanyeshuri gutanga amaraso. Igikorwa cyo gutanga amaraso, gifatwa nk'igikorwa cy'ubumuntu kandi cy'indashyikirwa.

Abasoje kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga bagomba kwihangira imirimo, abize ibijyanye no gushushanya ni bamwe mu bakora aka kazi kabo kandi bakagakora neza cyane bikabagirira n'umusaruro.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, bimwe mu byo bishimira ni ibigo biba biri kuri aya mashuri bitandukanye, harimo ibigo by'imikino y'amaboko, imikino y'amaguru ndetse n'ibindi bigo by'imyidagaduro itandukanye.

Bimwe mu bikoresho bikorwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga ndetse na za kaminuza bigira akamaro gatandukanye, ibi bikoresho twavugamo nk'intebe zisanzwe zo kwicaraho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Amashuri y'imyuga ndetse n'amashuri ngiro, yiga ibintu bitandukanye mu Rwanda, harimo uburobyi, gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza bakora ibintu bigiye bitandukanye, imitako yo mu nzu bategura ku meza ndetse n'ahandi mu buryo bw'imirimbo.

Bimwe mu byumba bya kaminuza ndetse n'amashuri makuru biba bifite nimero, nimero y'icyumba ifasha umunyeshuri ndetse n'umwarimu kumenya aho igikorwa cyo kwiga ndetse no kwigisha kiri bubere byoroshye.

Amahugurwa ajyanye no gukoresha mudasobwa cyangwa se ikoranabuhanga, ararimbanyije, aho umugore umwe muri bo ushinzwe kubahugura, ari kugenda atanga ubumenyi ndetse abumvisha akanababwira uko bikora.

Abanyeshuri bo mu bigo by'imyuga ndetse n'abayobozi bateraniye hamwe abanyeshuri bari gukora ikizami abandi bayobozi bari kubagenzura mu ndimi z'amahanga nibyo bita kuba supavayizinga.